Imifuka minini y'ifumbire igaragara ko ari imifuka imeze neza irinda ifumbire kuba yahura n'ubukonje mu gihe itarakoreshwa. Irimo udushashi imbere ari two turinda kuba amazi yahura n'ifumbire mu gihe ifumbire ikiri mu mifuka. Ni imifuka ipanze neza umwe hejuru y'iyindi indi irambitse hasi indi ikayijya hejuru.

Igiti cy'kinyomoro giteye ahantu heza hari ubutaka bumeze neza ndetse hari kugaragara intoki z'umuntu ziri gushyiraho agafumbire ku ruhande. Ni ifumbire y'imborera kandi imeze neza bigaragare ko izatuma iki giti kera neza kandi kigakura neza.

Abantu bari gutera imiti mu mirima， bari gutera umuti mu myaka wica ubusimba， kugira ngo ibi bigori bitazabasha kwangizwa n’ubusimba. Barimo bahetse amapombo， bose bari kugenda bapompa bambaye neza， bipfutse kugira ngo uyu muti utabasha nabo kubangiza.

Igicupa kinini kirimo ifumbire yifashishwa mu buhinzi，kikaba gikoreshwa ku mbuto， nk'inyanya，amatunda， nk'intoryi cyangwa se amasereri，n'ibindi，ni umuti mwiza kandi ifumbire ifasha mu gukuza ibyo bihingwa bigakura neza bitohagiye.

Ifumbire nziza ya ire iri mu gicupa cyayo bigaragara ko hariho n'ikigori, ikaba yifashishwa mu gutanga intungamubiri ku bihingwa, kandi ikaba ari ifumbire nziza yifashishwa na buri wese kugira ngo yongere umusaruro w'ibihingwa bye.

Abagoronomi b'ubuhinzi barimo kuhira izi myaka zabo n'imyaka z'ibigori zihinze neza ku buryo bw'imirongo, bafite agafumbire bari kugenda banyanyagizaho bigaragareko bari kongeraho ifumbire kugira ngo bibashe gukura neza cyane.

Abamama bari kwikorera ifumbire y'umwimerere itari amafumbire aya agurwa ya kijyambere, ni ifumbire ikorwa mu buryo bw'ibirundo aho bafashe ibyatsi bakabirunda bakabimenamo amazi. Biragaragara ko bashinze uduti kugira ngo babone aho barunda ibyatsi maze babishyiremo amazi, bizavemo ifumbire mu gihe kizaza. Ifumbire nziza yo gukoreshwa mu buhinzi.

Abajyanama babiri b'ubuhinzi bafite ifumbire mu dusahani tubiri. Umwe ari gushyirira undi ku gasani ke kugira ngo bereke abahinzi uburyo bwiza bwo gukoresha ifumbire bari guhinga. Abahinzi bari guhinga bigaragara ko bitegura no gutera kuko hari aho basoje guhinga. Abajyanama bagiye kubafasha mu buryo bwo gushyiraho ifumbire.

Ifi nini cyane iri kubagwa bigaragare ko iri gukurwamo amahwa kugira ngo ibashe kuba yaribwa idafite amahwa yabasha kwica umuntu mu kanwa, ni ifi nini cyane bayisatuyemo ndetse bari no kuyikuramo igice cy'imbere kigizwe n'amahwa, ni ifi nini cyane irarambitse ku ka meza kakozwe mu giti ndetse hariho n'icyuma bari gukoresha bayibaga.

Ubwanikiro bwiza buteye imbere bwubatse neza, kandi buriho hejuru akayungirizo bigaragara ko banikaho ibintu hejuru, bikabasha no kwiyungurura utuntu turimo dutoya tukagwa munsi. Ni ibintu byubatse neza byubakishije ibiti, kandi bigaragare ko bimeze neza cyane, ku buryo byanika imyaka kandi na none biri no kuyiyungurura bikuramo imyanda.

Amafi meza, manini y'amasambaza. Arakuwe mu kiyaga cya Kivu, yazanywe ku isoko, arakeye neza, bayahanaguye, bayogeje, bigaragare ko ari gucuruzwa mu isoko. Ameze neza aracyari mazima, bigaragare ko ataramara iminsi myinshi.

Amafi manini arambuye maremare, ari ku ikarayi yose arambuye, bigaragare ko agiye gukarangwa, hari n'ibindi birungo birifashishwa mu guteka ayo mafi, harimo udusereri dufasha guhumuza ibiryo, ndetse na tungurusumu zikoreshwa nk'ibirungo, byose ari ku ikarayi agiye gutekwa.

Amafi meza y'ibihonda ari mu bice by'amajerekani cyangwa se ibidomoro ,bigaragareko bari bamajije kuyaroba aribwo bakiyakura mu mazi .Ari mu mugozi yose agiye acomekeranyije ku mugozi bigaragareko aribwo abarobyi bakimara kuyaroba bagiye kuyatunganya kugira ngo bajye kuyagurisha, ni ibice byinshi by'ubururu kandi bigaragareko harimo n'amazi aya mafi ari kurerembamo.

Abarobyi b'amafi barimo kuroba, bari kuroba ahantu mu kidamu cy'amazi, harimo amazi menshi kandi biragaragara ko ari ahantu hororerwa amafi, bafite supanete, niyo bari kwifashisha banyura mu mazi bakurura, kugirango ngo babashe gufata amafi, hakurya hari abantu barimo gufotora, bigaragare ko bari baje kureba uburyo baroba.

umureti mwiza uri ku isahani utetse neza. Uriho ibirungo, hariho ibirungo by'icyatsi, harimo ibirayi ku ruhande byo kuwurisha, bigaragare ko uryoshye cyane. Urakase, ugaragara imbere ko ari umweru ndetse watetswe neza, kandi ufite ibirungo byiza bigaragarira n'inyuma ko hatukuye cyane, mbese umeze neza ku buryo buri muntu wese yakwifuza kuwuryaho.

Amafi meza, yogejwe neza ahanaguye, arambitse ahantu ku meza hejuru, bigaragare ko agiye gukarangwa akabasha kuribwa, ndetse hari n'andi ari mu dusahani yamaze gukarangwa kandi yiteguye kuribwa.

Intufe, inzu, amazi, umurima, imboga, ibiti, intabire.

Amafi meza y'amasambaza ari ahantu mu kayunguruzo kazo kameze nka supanete ariko ko gakozwe mu byuma biragaragara ko bayarambitse hejuru kugira ngo abashe kumuka, ate amazi, amazi ajye avamo agwa munsi kugira aya mafi aze kuma neza babone uko baza kuyakoresha mu gihe kiri imbere.

Imirima z'ibigori ibigori bikuze bigaragara ko biri hafi kwera byarabuye bima kuma hasi. Iruhande rwawo hateye utundi tuntu tugaragara nk'udutunguru biragaragara ko ari umurima mwiza Kandi yitegura gusarura. Ni umurima mwiza cyane umeze neza uhinze neza kubigori bicucikanye cyane.

Imirima irimo ikinani itarahingwa, bigaragare ko hasaruwemo ibigori ,kandi bikaba bitarongera guhingwamo ngo babe bateremo izindi mbuto. Ibigori byasaruye babitema ku buryo hakirimo ibigorigori bigiteye ,ndetse uyu murima biragaragara ko watangiye kumeramo ibyatsi, ukeneye kongera ugahingwa ugaterwamo iyindi mbuto.

Ubutaka buhinze neza buhinze n'amayogi, yerekana ko bunogeje neza bwiteguye guterwamo imbuto, umuhinzi ari kubutongora, ari guhinga no hirya yitegura gutera, ahangaha yasoje guhinga hari ibiti byiza, bifasha kurinda ndetse bikanatanga ifumbire ku butaka biteyemo.

Imirima ihinze neza itongoye irimo imbuto, uyu murima hirya urahinze no hino bigaragara ko washyizwemo ifumbire, itari ifumbire igurwa ifumbire y'umwimerere ivanzemo ibyatsi, biragaragara ko bayivanzemo n'ubutaka kugira ngo uzabashe gutanga umusaruro mwiza.

Imirima z'ibirayi ziteyemo ibirayi byiza cyane, birabagariye neza, bimeze neza bigaragara ko byahawe n'ifumbire byitaweho neza, bikaba biri gukura neza bigaragara ko bizatanga umusaruro uhagije kandi mwiza. Biriya birazamuye cyane biragaragara ko babyitayeho neza ku buryo bizavamo umusaruro mwiza mu gihe bizaba byeze.

Ibyatsi byiza bikuze kandi byose biri mu kigero kimwe bigaragare ko biri ahantu harimo n'imigozi y'ibijumba kandi harimo ibindi byatsi byinshi ubona ko ari ibyatsi bimeze neza ariko birimo n'ibindi bitandukanye bitari bikenewe muri iyi migozi.

Imirima y'ibitunguru n'amateke bigaragara ko harimo n'ibyatsi byinshi ntabwo harabagarwa kandi ibi bihingwa bikeneye kubagarwa hagaragaramo udutunguru ndetse n'amateke makeya agiye atatanye kandi ari ahantu heza hahinze neza hakeneye kubagarwa kugira ngo bizabashe kwera neza.

Abantu, inzu ,intufe urutsinga rw'amashanyarazi, ipoto ,ikibuga cy'umupira ,ukuguru ,bodaboda.

Imirima y'ibirayi ,ihinzemo ibirayi biteye bicukiranye, bitari ku murongo, bigaragare ko ibirayi byatewe ko byegeranye cyane harimo ibyamajije kwangirika, harimo ibyababutse ndetse n' ibyatangiye kuzana amababi y'umuhondokandi bigaragara ko byumye bimwe na bimwe.

Igiti cy'imboga ya beterave iteye ahantu mu kabase bigaragare ko ari ihinzwe ahantu mu rugo iteye mu kabase karimo itaka ndetse biragaragara ko yeze kuko yazamutse hejuru ikeneye gusarurwa.

Ishyamba ryiza ry'ibiti by'inturusu bimwe binini ibindi bikiri bitoya bigaragara ko iri shyamba ritarera. Riracyarimo ibiti bikiri bitoya cyane kandi iri shyamba rimeze neza riri ma ahantu heza hari amabuye, kandi nta bindi bintu bihinzemo bigaragara ko iri shyamba rishobora kuzera neza kandi rigatanga umusaruro.

Igikakarubamba giteye ahantu impande y'urugo, bigaragara ko ari ahantu muri jaride y'urugo, hari utwatsi impande yaho, bigaragara ko hashyizwe ifumbire, kugira ngo kibashe kuba cyakura neza. Iki gikakarubamba cyifashishwa nk'umuti, aho kivura ibisebe, ndetse n'izindi ndwara.

Igitsinsi cy'ubwatsi bunini bw'umukenke bwifashishwa mu kwenga ibitoki cyangwa se gukorwamo ibikatsi, ni ubwatsi bwiza bunini buzamuye hejuru kandi bumeze neza, ku buryo bushobora no kwifashishwa nk'isasiro ahantu nko mu rutoki cyangwa se mu yindi myaka ikenerwa gusasirwa.

Imirima myiza zihinze neza kandi zimeze neza zitegura guterwa. Hari n'ahatarahingwa bigaragara ko harahinzwemo ibigori imbere hakirimo ibigorigori, hari n'utuvumba twiza ndetse hari n'ibiti ku mpande binini bigaragara ko bishobora kuba bitanga ifumbire muri iyi mirima. Ni imirima myiza cyane ihinze neza mu buryo bw'amayimba.

Uruzitiro rw'ibiti biteyemo imisumari ruzitiye ku muririma wo munsi y'inzu. Harimo isombe ihinze harimo n'urutoki bigaragara ko ari ibintu bihinze munsi y'urugo. Hari inzu ruguru kandi iyo nzu biragaragara ko ibamo abantu. Mbese hakaba hateye isombe munsi y'urwo rugo izitiyeho ibiti.

Ahantu heza hahinze ibiti, ibiti by'inturusu byatemwe biri gushibuka, ndetse n'ikindi giti kinini bigaragaza ko ari ahantu h'ishyamba, hashobora kuba hava ibiti byo gukoramo amakara cyangwa se kubakisha n'ibindi.

Insina ndende zezeho igitoki kiribwa cyangwa cyitwa inyamunyu, ni insina nziza ziteye ahantu hari ifumbire, ubutaka bwiza bw'umukara burimo ifumbire n'amazi, bigaragara ko zeze neza kandi ziKera igitoki kinini gitubutse.

Uruyuzi rweraho ibihaza, ruhinze ahantu heza mu mwoga, kandi bigaragara ko ruri kurandaranda rugenda rukura, ruzatanga ibihaza byiza, uruyuzi ruteye neza, ruteyeho n'umuti ku mababi, bigaragara ko rwitaweho kugira ngo ruzabashe kwera ibihaza byinshi kandi byiza.

Ibirayi byiza bya Kinigi bifite ibara ry'umutuku, n'ibindi bya Kirundo bisa n'umweru, kandi bigaragara ko ari ibirayi byiza byahinzwe neza bigahabwa ifumbire, kandi bikitabwaho cyane. Biri mu gatebo bari kubisuka hasi kugira ngo bibashe kugurishwa, kandi cyangwa se bibashe kurobanurwamo imbuto izahingwa ubutaha.

Abahinzi bafite imbuto z'ingemwe ziri mu bihoho bigaragara ko baje gutera mu murima, kandi bari gusuzuma uburyo izo ngemwe zimeze, ngo barebe niba zujuje ubuziranenge, harimo n'abagoronome baje kubafasha kugira ngo batere izo mbuto neza.

Ubwoko bw'imboga z'amashu, ni amashu ahinze neza kandi bigaragare ko byeze neza, ariko afite ikibazo, kuko amababi yacyo, amwe yabaye umuhondo bigaragare ko ashobora kuba yaratatswe n'udukoko, akaba yarangiritse. Ni ishu riteye ahantu heza, hari utwatsi tw'inteja ndetse hanasasiye neza.

Igihaza gikoreshwa n'imboga kikaba cyavangwa mu bindi biryo ndetse cyangwa se kikaba cyagerekwa ku bishyimbo, biragaragara ko bagikasemo hagati cyose kiri kugaragara uruhande rw'imbere, imbere harimo utubuto twaterwa tukamera tugatanga ibindi bihaza, kandi kirasa n'umuhondo bigaragara ko kiryoshye kandi cyeze neza.

Inkoko nini cyane nziza iraririye, itwikiriye udushwi iratubundikiriye, udushwi twasohoye imitwe twose turi kureba hanze. Iyi ni nkoko nayo iri kutubundikira kugira ngo dushyuhe tutaza kwicwa n'imbeho cyangwa se hakaba hari ikindi gikoko cyaza kikadutwara.

Igitoki kinini cya fiya keze ku nsina. Ni urutoki ruhinze mu buryo bwa kijyambere. Biragaragara ko insina ziteye zitatanye, kandi ziteye neza ku buryo buri gitsinsi keraho, kezeho igitoki. Ni insina zimeze neza, zera neza, kandi zibyibushye cyane, ku buryo zibasha gufata iki gitoki ntikibashe kugwa.

Imirima z'ibirayi zirimo ibirayi bikiri bitoya biri kuzamuka ariko bimeze neza, biteye mu buryo bwiza butandukanye ku buryo ari utuyimba bigaragarako buri kantu kose ka kera ibirayi byinshi kandi byiza, harimo umuntu bigaragara ko yaje kubisura ngo arebe imikurire yabyo amenye n'ibyo yakongeramo.

Abahinzi b'icyayi bari kugenda basarura bigaragara ko bose bari bahawe akazi ko kugenda basarura amababi y'icyayi, bagenda bacaho amababi yo hejuru bayashyira mu gatebo bahetse mu mugongo. Ni abakozi babamama babizi cyane, bigaragara ko bashobora kuba bamenyereye gusarura ibyayi. Ibyayi bihinze byegeranye cyane kandi bigoranye kubinyuramo.

Ibishyimbo byiza binini bitari iby'imishingiriro bigufi, biriho imiteja myiza minini kandi myinshi icucitse cyane bigaragara ko igishyimbo kizera umusaruro mwinshi uhagije mu gihe kiri imbere.

Umusaruro mwiza w'amatunda, amatunda manini yasaruwe, kandi yeze atukuye, bigaragara ko yeze neza, yose arangana mu ngano, n'ishusho, ari mu kabase, bigaragara ko agiye kujyanwa ku isoko.

Ibitunguru byiza bibyibushye bizwi nka Puwalo, bifashishwa mu guhumuza ibiryo, bikoreshwa nk'imboga kandi ntago bigira ikijumba cyo hasi bivuze ko bishobora gutubuka kandi bigakoza isosi bikayihumuza.

Umuhinzi w'inyanya aranezerewe cyane nyuma yo gusura inyanya ze akareba, akabona zarakuze zajeho n'imiteja, imiteja ikiri mitoya itaratangira gutukura, biragaragara ko anezerewe kandi yishimiye umusaruro zizatanga.

Umuhinzi urimo gusura imirima ye，imirima y'ibigori, arimo arareba ibigori bye niba byeze, kandi biragaragara ko ibigori byeze， kuko ni binini byarakuze, n'imisatsi yabyo yarumye, kandi bigaragare ko byeze cyane kuko byatangiye kuma amababi.

Imirima z'ibigori zirimo ibigori bikuze ariko bitarera, bigaragara ko bikiri bitonya bitaratangira kumisha imisatsi, biteye ku buryo bucucitse cyane kandi biregeranye cyane, ku buryo bigaragara ko bishobora kuzatanga umusaruro mwinshi.

Abahinzi b'ibyayi bari mu byayi bari kugenda basarura ni benshi cyane kandi bose bafite umuntu uri kuberekera uburyo basarura. Bahetse udutebo inyuma mu mugongo, bari kugenda bashyiramo amababi basaruye yeze neza bose bari kugenda basarura harimo abamama n'abagabo bose bari kumwe kandi bose bari gusarura babikora neza.

Umuhinzi uri mu mirima ari gusuzuma ubuhinzi bwe niba bwareze neza, afashe umuteja w'urusenda bigaragara ko ari nk'urusenda rweze kandi ari kwerekana ko rweze neza, ibindi ntago birera bigaragare ko iki giti afasheho aricyo kimaze kwera kandi kigeze aho gishobora gusarurwa.

Umubyeyi uri guhinga isuka bigaragara ko asoje guhinga mu rutoki yarari kuruhingira, ari haruguru yarwo n'ibirayi bigaragara ko yari kubibagarira afite isuka yarasoje akazi yishimye cyane ko asoje akazi ke.

Imyumbati yanitswe ku gitanda iregeranye cyane, yanitswe ku gitanda kinini ifite shitingi ku ruhande, bigaragara ko itwikirwa iyo bwije, bayanitseho kugira ngo ibashe kuma bazayikoremo ubugari mu gihe kizaza.

Ibirayi byasaruwe, biragaragara ko bamaze kubisarura mu murima, ibintuza byabyo byo hejuru babiranduye babikuraho. Ibirayi babizamura hejuru, ndetse biragaragara ko byeze neza, nubwo harimo ibitoya ndetse n'ibinini ariko ni ibirayi byiza bya Kirundo.

Abahinzi b'ibirayi bari kuhira mu mirima yabo, bari kuhiza moteri ubwo ni mu gihe imvura iba itaguye, bafashe umuhombo buri umwe wese agiye ateruye kugira ngo babashe kubona uko buhira, kandi bimuke buhire n'ahandi hose bahagere, umurima wose bawuzenguruke.

Umubyeyi mwiza cyane，arimo arareba ubuhinzi bwe， ni ubuhinzi bw'ibishyimbo byera birandaranda ku biti，yarabishinyingiriye none ari kugenda areba niba bifite imiteja，agenda anyuramo agabanya amababi，kugira ngo imiteja ibashe kubona izuba izere neza itazabora.

Abakozi b'abamama bari mu murima， bari kubagarira imyaka ihinze mu murima， bose bari kwerekana aho bagiye kujya gukorera， kandi bose barunamye， harimo n'umugabo umwe urimo kubagara kandi bose bari kubikora neza， bafashe ibyatsi mu ntoki bigaragara ko bari kubagara neza.

Amasuka, inofe, amaterasi, abantu, abahinzi.

Imuhinzi wanitse imyaka yasaruwe yihunguye, ibigori byanitse ku mashitingi, kandi arimo arayora akinukiriza, kugira ngo yumve niba bitarangiritse bikaba byaragize impumuro mbi. Bigaragare ko ibigori yari yarabibitse igihe kirekire mu mifuka, akaba aribwo abyanitse, niyo mpamvu arikumva niba bitaragize ikibazo.

Abahinzi b'ibirayi barimo kubikura bakarandura bakareba ibirayi biriho. Umwe yaranduye abona hariho ibirayi byinshi ndetse arimo kwereka abandi ati nimuze murebe ibirayi byanjye byeze neza cyane .Harimo abakozi benshi barimo kugenda babirandura, babisarura bakuraho ibirayi byo hasi babijyana ,bakabirunda ,bakabishyira mu mufuka.

Imirima y'ibigori iri ahantu mu gishanga kinini, hanyuzemo akayira hagati bigaragaraq ko ariho abantu banyura, akayira gasa n'aho karimo amazi ari gutemba bishobora kuba ari amazi yanyuzemo mu gihe cy'umwuzure. Iyi mirima irimo ibigori bicucikiranye cyane kandi bimeze neza, bigaragara ko bishobora kuzatanga umusaruro aya mazi nadakomeza kwiyongera ngo abirengere.

Umu mama mwiza cane uvuye kwahira yikoreye ubwatsi mu mufuka, ari ahantu hari ikinani cyinshi bigaragara ko avuye kwahira ahangaha ari, avuye kwahira ubwatsi bw'inka arabwikoreye arabutahanye agiye kubugaburira amatungo ye.

Igihingwa cy'urubuto cy'umwembe kimeze neza, giteye ahantu hameze neza, biragaragara ko ari umwembe watewe neza kandi witaweho, uhabwa ifumbire ihagije n'amazi, urasa neza cyane, ufite amababi amwe y'icyatsi, hejuru ukagira ay'umutuku akiri matoya, nayo azagenda ahinduka icyatsi.

Amahene meza y'amahembe maremare yose arikumwe ari kugenda hamwe yegeranye cyane, bigaragara ko bari bayijyanye mu rwuri kugirango ngo abashe kurisha, yose ari kugendera hamwe kandi ni amahene asa yose ameze kimwe bishoboke kuba yaravukiye ahantu hamwe.

Ubwoko bw'urubuto runini rumeze nk'avoka rugifashe ku gati, bigaragara ko rweze cyane kandi rufite ibintu byagiye birukomerekaho ku ruhande, utuntu tw'umukara tw'ibikomere. Bigaragaza ko uru rubuto rukuze cyane kandi rweze cyane ku buryo buri muntu yaza kurusarura, akajya kuba yarukoresha arurya.

Abahinzi bari mu murima bari guhinga ahantu hamwe, ni benshi cyane bigaragare ko bose batumiwe kugira ngo bafatanye guhinga uyu murima, ni umurima uhinze neza mu buryo bw'amahimba kandi bigaragare ko bari baje gufatanya bose hamwe.

Ibigori bihinze neza ahantu mu murima biteye kijyambere, biri ku murongo ndetse hakaba hari n'ibindi bihingwa biri hasi, ibihingwa bigaragara nk'aho ari imigozi y'ibijumba ndetse iyo migozi ikaba yarakuze neza ifite amababi manini ndetse yarateweho n'umuti kugira ngo hatagira ubusimba buyangiza.

Abahinzi b'ibyayi bari mu murima bari gusarura icyayi bafite udutebo bari kugenda bashyiramo ibyayi bimaze gusarurwa, bari kugenda baca amababi bashyira muri ibyo bitebo. Ni ibyayi bihinze bicukiranye byegeranye cyane ku buryo bishobora kuba byanabagoye kubigeramo hagati.

Akabotike k'ibiribwa kandi kameze neza karimo umuceri, n'ibindi bitandukanye n'imineke, imeke iribwa nk'imbuto ikagirira umubiri akamaro harimo n'ibindi bitandukanye harimo n'amavide y'inzoga bigaragareko hashobora kuba harimo n'akabari ,abantu baza kunywemo akayoga.

Umuhinzi ari kuhira imyaka ye akoresheje moteri yashyizeho umuhombo, ari kumena amazi hejuru mu myaka kugira ngo abashe kugera hasi afate muri iyo myaka mu bigori bihinze mu mirima, kandi biri kuhirwa neza cyane kugira ngo bizere neza.

Abagore, ibirayi, imifuka, umurima, ubutaka, ibyatsi.

Umurima, ibigori, ifamu, ibiti, ibicu, agasozi.

Umuhinzi avuye gukura ibijumba, yaranduye hazaho ibijumba hasi. Bigaragara ko byeze neza, hari ibijumba binini cyane ku buryo bishobora gukora umuteko ari byonyine. Hariho n'isuka bigaragara ko yabikuje isuka.

Imbuto nziza ziri mu ndobo n'imbuto zitandukanye z'ubwoko butandukanye harimo: amapome, amaronji, ndetse n'amakokombure, bigaragara ko ari imbuto umuntu ashobora kurya zikaba zamufasha kumererwa neza, ndetse zigatanga intungamubiri nyinshi mu mubiri.

Umuhinzi arishimye cyane nyuma yo kuza kureba ibyo yahinze, ibishyiyimbo bye byiza bihinze mu miririmo myiza biratoshye, bimeze neza, bigaragaza ko bizera neza. Aranezerewe ari guseka, kuko asanze bimeze neza.

Imirima y'ibigori ihinzemo ibigori biri ku murongo neza, bigaragare ko biteye neza bashyizemo akayira mo hagati ndetse kandi bikaba bibagariye neza nta byatsi bikirimo, bigaragare ko ari ibigori bikiri bitoya kandi bizera neza bigatanga umusaruro mu gihe kiri imbere.

Ibigori biri mu buhunikiro bw'ubwanikiro bimeze neza bisa neza, biriya byo hejuru tubyita mayizori naho biriya byo hasi tubyita imbuto y'indobanure; ni ukuvuga ngo hariya biri ni ukugira ngo byume, umuyaga uturutse hanze ku ruhande ubashe kubikubita, gusa hejuru hagomba kuba hasakaye kugira ngo bitanyagirwa.

Abahinzi bari guhinga mu mirima，iyi mirima iteye mu buryo butangaje，umwe uri hejuru y'undi，bigiye bikase nk'amaterasi，biragaragara ko bari kuyihinga， bamwe bahinga hasi abandi bagahinga hejuru，ni uburyo butangaje cyane， kandi ubona ko bwahingwa bugatanga umusaruro mwiza.

No ntari umugabo ufite isuka nini uvuye guhinga, uri kuvugira kuri telefone biragaragara ko avuye guhingira ibi bigori bye kandi arishimye cyane kuba acyuye umubyizi. Bigaragare ko ari gushima n'umuntu bari kuvugana arishimye cyane ari kumusekera amubwira ko abonye umubyizi akaba asohoje akazi ke.

Imyumbati ihinze neza mu buryo bwa kijyambere, ihinze mu mirima myiza cyane ku buryo izera neza, iregeranye cyane yacucitse ku buryo ishobora kuzatanga umusaruro mwinshi mu gihe kiri imbere, kandi biragaragara ko imeze neza.

Intabire nziza ihinzemo imyaka isa n'aho itari yamera. Ni ahantu hahinze neza ku buryo bw'amabimba hagiye hakasemo utuyira hagati ku buryo amazi abasha kunyuramo agatembera ariko atajyanye ubutaka. Ku ruhande hari urujagi bigaragara ko ari amabuye batongoye bayakura muri uyu murima kugira ngo azabashe kwera cyane.

Agashyamba keza karimo ibiti bitandukanye birimo ibiti binini n'ibitonya bisanzwe, karimo n'utubuye bigaragara ko ari agashyamba keza umuntu yaruhukiramo, cyangwa se umuntu yaragiramo amatungo, kari ahantu heza bigaragara ko gatanga akayaga keza.

Ubunyobwa buhinze mu buryo bwa kijyambere buteye neza ku murongo kandi biragaragara ko bumeze neza buri kuraba bwenda kwera, bigaragare ko bwatewe neza kandi bwitaweho ku buryo buzatanga umusaruro mwiza umeze neza.

Umusaruro w'ubunyobwa ariko ubunyobwa bigaragare ko bwareze ariko butaruma, baburanduye babuzamura bari kwerekana ubunyobwa buriho hasi babufashe mu kiganza mbese ni bwinshi. Baranduye igitsinsi cyose kinini cyane.

Umurima gw'ibyayi guhinze ku murongo bigaragara ko ibyayi bicucitse cyane, ibyayi bigaragara ko byeze bifite amababi atoshye bigaragara ko bigeze igihe cy'isarurwa, biteye neza biracucitse biri mu murima munini kandi bigaragara ko hagiye harimo utuyira duto duto umuntu uza kubisarura anyuramo.

Ibishyimbo bikiri imiteja biracyari mu miteja yabyo birumye, bireze byasaruwe bifite amabara atandukanye bimwe birasa nka Gire ibindi ni Papo bigaragara ko ari ibishyimbo byeze cyane kandi bigiye bitandukanye.

Umurima w'imiceri ihinze neza yegeranye, imiceri bigaragarako yatangiye kwera ,yarabuye yazanye umuceri hejuru, irigonze iri kureba hasi bigaragareko iri hafi gusarurwa, kandi yeze neza kuko imi iragaragara neza ku buryo izatanga umusaruro mwinshi.

Ubunyobwa buhinze neza babusaruye baburandura nta igitsintsi cyabwo buri kugaragara hasi, ariko biragaragara ko bweze neza kuko bufite impeke ndende, kandi biragaragara ko bwahinzwe ahantu hari ifumbire, kuko bwazamukanye ubutaka busa n'umukara. Bigaragara ko bwashyizwemo ifumbire ihagije akaba ariyo mpamvu bweze neza.

Ibigega binini cyane by'ibyuma bibikwamo imyaka, bigaragara ko ari ahantu mu ruganda rubika imyaka ,kandi bakaba bayitunganya neza, kugira ngo izabashe kwifashishwa ikurwamo imyaka ikorwamo imbuto ,ni ibigega binini cyane biriho n'imihombo hejuru ,bigaragara ko ari ho imyaka itunganyirizwa ,kugira ngo itazabasha kwangirika, izabashe kubikwa igihe kirekire.

Umusaruro w'ingano upakiye mu mifuka, imifuka mishyashya irapakiye neza bigaragara ko zitoranyije neza meze neza ziteguyeb kujyanwa ku isoko, imwe irafunze indi ntirafungwa kandi yegereye imirima n'akazu gatoya bigaragara ko iyo mirima iri iruhande ariho yasaruwe hari izindi zanitse ku ruhande hasi ku ishitingi.

Indazi nziza zimeze neza zikozwe nk'ibijumba kandi bigaragara ko ziryoshye cyane, ziratukuye neza zokejwe neza mbese buri muntu wese yakwifuza kuziryaho.

Amasaka meza cyane yeze kandi manini biragaragara ko ari amasaka manini cyane. Areze neza yaratukuye kandi bigaragare ko ari amasaka yahinzwe neza akitabwaho, agashyirwaho ifumbire ihagije ku buryo abasha gutanga umusaruro mwiza.

Ibishyimbo byiza by'ibara ry'umukara, binini bitubutse kandi bigaragara ko ari ibishyimbo byeze neza. Bishobora kubamo imbuto yakwifashishwa mu guhinga, bikaba byatanga umusaruro uhagije. Biri mu gatebo, babimennye hasi kugira ngo babashe gusuzuma uburyo bimeze, niba byavamo imbuto nziza.

Umusaruro w'ibigori, umanitswe ahantu m'ubwanikiro, ibigori byanitswe bimanitse hejuru, biracucikiranyije cyane, bitegereje ko byuma, bikabasha gukoreshwa mu gukuramo iby'imbuto, ibindi bikajyanwa mu gusheshwa ngo bikorwemo akawunga, cyangwa indi fu y'ibigori y' igikoma, cyangwa se bigakoreshwa mu bundi buryo.

Abagore, inara, kugosora ibigorigori, umurima.

Ibigori bimanitse mu bwanikiro bicucikiranye cyane babishyizeho kugira bazabikuremo imbuto zimeze neza , byarumye, biragaragara ko bizavamo imbuto imeze neza cyangwa se bigakorwa mo impungure. Biramanitse, bimanitse mu bwanikiro ni byinshi cyane.

Ibigori byeze binini by'imihondo. Bikoreshwa mu gutanga akawunga kazwi nka patejoni. Ni byiza biracucitse birahantu hamwe birakokoye, bigaragara ko byanitse kugira ngo byume, bizabashe gukoreshwa mu gutanga kawunga, cyangwa se bikorwemo imbuto bizahingwe mu gihe kizaza.

Ibishyimbo byiza by'imbuto bisa neza bya kivuzo biterwa mu mirima kandi bikera neza, ni ibishyimbo bigaragara neza harimo n'ibindi bivanze. Ibishyimbo byanitse ku mashitingi hasi kandi bari kubiyobora babishyira ku masahani ngo babashe kubipima ibiro bamenye imbuto bazakoresha ,bamenye n'umusaruro bafite.

Igitebo kinini cyubatswe kizamuye nk'ikibindi, gifite intango nini kikaba gitoya hejuru bigaragara ko kibika imyaka kikaba cyanifashishwa mu kubika imbuto, ni kinini bigaragara ko cyajyamo nk'ibiro mirongo itanu. Cyubakishijwe mu migano bagisiga amase inyuma.

Imyaka yeze neza, yeze amahundo meza manini, ameze nk'ay'amasaka, biragaragara ko afite amahundo manini, bigaragara ko yeze neza, kandi ameze neza, mbese yitaweho. Ahinze ku buryo acucitse cyane, ku buryo bigaragara ko azatanga umusaruro mwinshi.

Ibigega binini by'ibyuma biri ahantu kandi biri bimeze nk'aho ari nk'uruganda ariko bishobora kuba ari nk'ikusanyirizo ry'imyaka cyangwa se ubuhunikiro bw'imyaka, pilato ndetse ari bibiri ndetse biri ahantu hameze neza hari utujaride twiza ndetse hari n'inzu nini iva kuba ari ibiro bikoreramo abayobora iyo koperative y'ububiko bw'ibiribwa.

lngano abahinzi bahinga. Iyo zeze zishobora kubeteshwa zigakorwamo umutsima, cyangwa se bakazijyana mu ruganda zigatunganywa zikavamo ifarini. Ifarini imwe bakuramo imigati cyane cyane amarindazi.

Imbuto z'ibigori binini zimeze neza zitoranyije z'indobanure zitegereje kuzahingwa mu gihe kizaza muri sezo z'ubutaha, ziri mu kabase keza kanini kagaragara ko zabitswe neza kandi zizahingwa zikamera zikera umusaruro mwiza.

Ikirabyo kinini gifite imiteja y'umukara kandi gifite n'uturabo tw'umutuku, bigaragare ko kizavamo, iyi imiteja y'umutuku izavamo nayo imiteja minini y'umukara.

Uyu mukecuru arimo kugosora imyaka imeze nk'aho ari ingano cyangwa ibigori. Afite intara ari kubigosoreraho, yabitereye hejuru kugira ngo umuyaga ukuremo imyanda. Arishimye cyane kandi ari kubigosora neza.

Ubwo umunyamakuru ari kubaza umuyobozi w'ubwanikiro, ibijyanye n'ubwanikiro ayobora. Ni ubwanikiro bw'ibigori birimo ibigori byinshi cyane, bimanitse hejuru mu biti kugira ngo bibashe kuma neza, bizakorwemo imbuto izahingwa mu gihe kizaza.

Igihwagari cyeze neza, gifite imbuto nyinshi, ndetse bari kugenda bahunguramo imbuto zimwe na zimwe zikavaho, kugira ngo baze kuzifata, aba arizo bakoresha bazisya, bakazikoramo ibintu bitandukanye, nk'amafu, cyangwa se bazifashishe bazikuramo amavuta yo kurya.

Ibyatsi byiza biteye ahantu bicucitse byegeranye byose, bimwe biryamye ku bindi kandi byarabye bigaragare ko ashobora kuba ari amashyaza ahinzwe yegeranye, acucitse kandi ari kuraba bigaragare ko agiye kwera mu gihe kiri imbere.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo bihinze neza mu buryo bwa kijyambere bihinze ku murongo Kandi hakagenda hanyuramo utuyira hagati. Birasasiye neza ku buryo bimeze neza, bigaragarako ibi bishyimbo bizera neza kuko bifite ibikenerwa byose kugira ngo bibashe kwera.

Imirima z'ibyayi bihinze ku murongo biratondetse ku murongo neza, bigaragara ko byatewe mu buryo bwa kijyambere, biri mu murima mwiza bigaragara ko wari urimo n'amazi menshi, kuburyo ibi bihingwa bihinzemo bigaragara ko bizera neza kandi bigatanga umusaruro uhagije.

Ibigori byiza by'amahundo， byasaruwe neza kandi bimeze neza， biri mu mufuka byose bishinze， byishinze hasi bitondetse neza mu mufuka biregeranye cyane， bigaragara ko babipakiye neza mu mufuka.

Ibigori, inabire, ikiyaga, ikirere cyijimye, amazu.

Ibishyimbo binini biri ku isiniya biracucitse cyane, biregeranye bigaragara ko ari ibishyimbo binini kandi byeze neza. Ni ibishyimbo bifite amabara atandukanye, bimwe bisa n'ikigina, ibindi biri gusa papo bigaragare ko ari ibishyimbo by'imbuto bishobora kuzaterwa mu gihe kiri imbere.

Ubuhinzi bwa kijyambere bw'imbuto. Imbuto ziteye zikiri ntoya zikimeze nk'ingemwe. Ziteye ku migozi kugira ngo zibe zose ziri ku murongo, kugira ngo zizabashe kwera neza. Zihinze ahantu hamwe hazitiye, bigaragare ko hashobora kuba ari muri girini hawuzi(green house). harimo abagoronome barimo kuzibagarira no kuzitera neza, bagenda bazitaho.

Iyi ni ingurube ku ruhande hariho abana bayo buriya yarabwaguye . Ni ukuvuga ngo iyi ngurube itanga inyama bita akabenzi , gusa Abayisilamu bo ntabwo bayirya kuko bayita ngo ni Haramu ingurube ntabwo bayikunda.

Inka ziri kurisha ubwatsi, zose zirunamye . Zunamye mu kintu ziriramo . Bigaragare ko zose zihagaze hejuru noneho ubwatsi bukaba buri hasi mu gikoresho cyabugenewe ziriramo ubwatsi. izi zimwe zirunamye ziri kurisha ,iyindi na yo iri gufata ubwatsi ikunamuka ,ikareba imbere.

Aba ni abantu bari guha amatungo magufi ubwatsi. Ziriya ni ihene, ihene ushobora kuba wagurisha ukabonamo amafaranga cyangwa se ukaryamo inyama ukaba wayibaga. Naho hariya ku ruhande ni kandagira ukarabe, hari indobo n'ibase ushiramo amazi, warangiza ugakaraba igihe wanduye naho iriya ni ijerekani iteretse hasi, ishobora gushiramo amazi ukajya kuvoma.

Urushinge, intoki, inka, umuntu, ikiganza, ibara.

Abavuzi b'amatungo bari kuvura inka bambaye udupfukamunwa bigaragara ko bari bazizanye kuziteza inshinge. Bari kuzivura neza bazisuzuma no mu bwoya ngo barebe ko hari izindi ndwara zaba zifite.

Inka nziza nini y'inyambo iri mu kiraro, iri kumwe n'umuvetereneri. Umuveterineri arimo kuyitera intanga, biragaragara ko afite ibikoresho kandi ashaka kuyitera intanga, kugira ngo izabashe kubyara mu gihe kiri imbere.

Ingurube iri mu kiraro, nyirayo yaje kuyireba. Ari kugenda anyura mu biraro. Ibi biraro byubatse neza kijyambere. Iyi ngurube rero irimo kureba hejuru, itegereje ko uyu muntu waje kuyireba yaba ayizaniye ibyo kurya. Iri kumureba kandi irimo kuvuga kugira ngo ayihereze ibyo kurya.

Ifamu y'ihene nyinshi nini kandi nziza zisa nk'aho zingana, ni ifamu nini kandi urabona ko umuntu azirimo umushumba wazo arishimye, aranezerewe ko ihene ze ziri gukura neza. Ni ifamu iri ahantu heza, hubatse mu buryo bwiza bwa kijyambere, hashobora kororerwa ihene nyinshi kandi zigakura neza.

Inka nziza y'inzungu, iri mu kiraro, iri kurisha ubwatsi, bayihaye ubwatsi irimo kurya, kandi biragaragara ko ari inka imeze neza, iri mu kiraro cyiza, gipavomye, cyubakishije imbaho, mbese biragaragara ko ari ikiraro cya kijyambere.

Inyama nziza z'iroti zitukuye zimeze neza, bikagaragara ko ari inyama z'inka kandi nziza zimeze neza zidafite ikibazo, ku buryo buri muntu wese yakwifuza kuba yaziryaho, kuko zimeze nk'iziryoshye cane.

Ingurube irimo konsa ibyana byayo，yaryamye hasi ibyana biri konka， mbese iraryama kugira ngo amabere agaragare hejuru， maze ibyana byayo bibashe konka. ibyana byayo biricucitse bimwe byuriye ibindi kugira ngo bibashe konka.

Umuveterineri wambaye impuzankano ari gukurura umuti mu gacupa, awukura mu gacupa ujya mu rushinge muri serenge akoresha atera urushinge, hafi ye hari inka bigaragara ko agiye kuzitera uru rushinge, inka ziri hamwe kandi nziza zimeze neza ,ariko bigaragara ko zari zarwaye uyu muveterineri akaba agiye kuzikingira.

Abanyeshuri bishimye bari guseka, bambaye udushati twiza tw'ubururu dusa, bigaragara ko ari akayinifomo kabo, baranezerewe cyane, bishimiye ibyo biga, bigaragara ko biga ibintu byiza kandi bibanezeza, barabyishimiye cyane, bambaye impuzankano, bose bifashe neza, mu buryo bwiza, bugaragaza umunezero.

Ubworozi bw'inkoko za kijyambere bworowe neza kandi buri ahantu heza, izi nkoko zimeze neza ziraryamye zimwe izindi zirahagaze kandi bigaragara ko zifite ibyokurya byinshi bihagije, ziri ahantu mu nzu nziza irimo amatara atanga urumuri rwiza kandi ruhagije.

Ingagi iryamye yifumbase bigaragara ko inezerewe kandi yahaze, iraryamye iri kureba hejuru yiryayamiye mu twatsi twiza, mu kajaride keza kameze neza, bigaragara ko ari ahantu ziba kandi zikahaba neza zinezerewe.

Inyoni nini ziri mu bwoko bw'Inuma ziri kugenda ahantu k'ubutaka bigaragara ko ari ahantu hari ibitaka by'ibintongore zose ziri gutembera kandi zigenda zireba ariko zikaba ziri kwikanga ikintu cyabasha ku kuzifata ,impamvu zose ziri kureba nk'aho ari ikintu zikanze.

Inyamaswa nini y'ishyamba, irasamye bigaragare ko ishonje. Iri gusakuza, ikeneye aho yakura umuhigo. Ni inyamaswa imeze nk'urusamagwe iri kugendagenda mu ishyamba, bigaragare ko ishobora kuba iri guhiga.

Ingagi nini ihagaze mu myaka ahantu heza hameze neza hari utujaride utwatsi twiza bigaragara ko iri gutembera iri kwitegereza ireba imbere ngorebe ahantu igiye gukomeza ijya

Inzovu nini iri mu ishyamba irimo iragenda itembera ahantu mu ishyamba bigaragare ko iri muri parike. Iri kugenda ireba, ndetse iyi foto yafashwe neza cyane ku buryo igaragaza aha ahantutu ko ari muri parike. Harimo ibiti binini biyitwikira, harimo n'iby'imigano n'ibindi biti bitandukanye.

Imbogo nini zose ziri kugenda ahantu hamwe, ni imbogo eshatu ziri kugenda zireba hirya no hino, mbese bigaragare ko zabonye ikintu zitari ziteguye, zikaba zose ziri kukireba kugira ngo nikizitera zibashe kwirwanaho. Ni imbogo zifite amahembe yigonze, kandi ni imbogo nini cyane ziruta inka.

Imbata zo mu mazi zizwi nk'ibishuhe ziri kuguruka zose k'umurongo umwe, ziri kugenderana bigaragaza ko zose zigiye ahantu hamwe kandi zigiye gushaka icyo zarya, zirikugendana zose zirindana kandi zikagenda zisakuza zose zikubita amababa.

Imbata nini imeze neza yakuze neza kabisa bigaragare ko ari imbata yariye neza, irishimye iri impande y'ikiraro cyayo irahagaze kandi irimo kwiyumvira igaragare ko yanezerewe itakiba itagishaka kujya gushaka ibyo kurya.

Igihu, ahantu hijimye, inyoni, igiti, ubwatsi.

Ikinyoni kinini gihagaze ku giti bigaragara ko ariho cyaraye, byari mu joro rihagaze ko cyaraye gihagaze kuri iki giti, ni igiti kinini kigandaye gifite amashami manini cyane kuburyo kibasha guhisha iyi nyoni mu gihe cy'ijoro.

Inyoni nini y'umweru ihagaze ku giti cyumye gitemye, cyumye cyane bigaragara ko yari ifite aka yari ivuye guhiga kandi iri kureba hakurya bigaragara ko yiteguye gushaka undi muhigo kugira ngo ibone ibyo iza kurya.

Urukwavu rw'ishyamba rwuriye igiti rwubagiye hejuru rufasheho n'amajanja, rufite ikirizo kinini mbese ruri kureba ,rushobora kuba hasi hari ikintu kikiri kurwirukankana rukaba rugicitse ruri kukireba hasi.

Inyoni nini yo mu bwoko bw'igisiga ihagaze ku giti, igiti gitambitse yifatishijeho amajanja biragaragara ko iyi nyoni iri kureba ahantu igiye gufata umuhigo, ifite ikibaba kinini kandi biragaragara ko ari inyoni irya inyama.

Inyoni y'umukara nini iri kumwe n'ibyana byayo, ibyana byayo biri mu cyari, birasamye bigaragare ko iyi nyoni yari ije ivuye kubishakira ibyokurya, ibi byana birasamye bitegereje ko ibitamika ibyo ivuye kubizanira.

Icinyoni ciza cinini c'urwara rurerure kirifumbase bigaragara ko bwari bwije, ari nimugoroba gishaka ahantu ho kurara. Gihagaze ku giti, igiti cyumye kigifashishijeho amajanja, bigaragara ko ariko kiri kureba ahantu kure cyane.

Inyamaswa y'ishyamba igaragara, iri mu bwoko bw'ihene yitwa ishya, ifite amahembe abiri maremare yigonze, ni inyamaswa itangaje, bigaragara ko ari inyamaswa buri muntu wese yakwifuza gusura, ngo arebe ubujyo ibayeho, ndetse anamenye ubujyo ibaho mu ishyamba.

Inyamaswa y'ingurube irimo kurya utuntu, hasi bigaragara ko nta bwatsi buhari ari utuntu twatakaye aho hasi, irimo kuturya kandi n'inyamaswa imeze neza bigaragara ko yorowe neza, yaciwe umurizo ifite akarizo gatoya ndetse biragaragara ko ikiri nto cyane kandi ikaba igikura.

Inyamaswa zo muri parike, ziri muri parike zose. Bigaragara ko harimo n'impara n'imparage, harimo n'indi nyamaswa imeze nk'imbogo y'amahembe azamuye maremare, kandi biragaragara ko ziri ahantu muri pariki. Abantu bagiye kuzisura ngo barebe inyamaswa zibamo.

Inyoni ntoya yo mu ishyamba y'igishwi ihagaze ku giti iri kureba hejuru ndetse iri no kuri icyo giti ihagazeho ni inyoni bigaragare ko iteguye kuguruka kuko iri kureba hejuru inacunga ko hari icyayitera ngo kibashe kuba cyayifata iriteguye ku buryo yahita iguruka